Abana b'abanyeshuri barimo kuza kunywa amazi bafite udukombe dutandukanye ndetse hari ikintu kiri kuvamo amazi giteretse ku meza, bari kuza gufunguraho buri wese afata amazi yo kunywa.

Abagore bahagaze ahantu hari akazu batangiramo amazi, imbere yabo hari amajerekani agiye atandukanye apanze ku murongo ndetse aho hantu batangira amazi hari idirishya rihari, bigaragara ko hari umuntu urimo baba bari kwishyura amafaranga.

Abana baje kuvoma ahantu hari umugezi, hateretse utubido dutoya ndetse n'amajerekani ndetse bari gukoresha umugezi wo mu cyaro uzana amazi ari uko babanjije kuwupompa, hari umugabo urimo urabaha amazi yifashisha uburyo bwo kuba yapomba amazi.

Abana benshi batandukanye baje ahantu ku mugezi kuvoma, hari abafite indobo ndetse n'abafite amajerekani ndetse n'abafite utudobo duto, uwo mugezi uriho amarobine agera kuri abiri ibumoso ndetse n'iburyo.

Abagabo ndetse n'abagore barimo barifotoza. Iruhande, hari icyapa gihari gishushanyijeho ifoto y'umwana, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Inyuma yaho, hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, handitseho ko ari salle ikorerwamo inama, ndetse ifite imiryango y'ibara ry'umweru n'amadirishya.

Abagore ndetse n'abagabo bahagaze impande, bari ahantu hari umurima urimo intoki ndetse hari n'abandi bantu bari ahantu havomerwa amazi ariko bifashishije uburyo bwo kuyapompa, hari umwana uhari ufite amajerekani agera muri atatu uteze amazi ndetse hari n'umugore uhari uri gupompa amazi ngo aze.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nama, bameze nk'abari gukurikira ikiganiro kiri gutambuka ndetse ku meza yabo hateretseho amacupa y'amazi, hari n'ufite ikaramu mu ntoki, hariho n'udukayi tugiye turiho impande n'impande.

Abagore banezerewe bari kubyina indirimbo za kinyarwanda bateze amaboko, bari kubyinira ahantu hari ibiro, hari ahantu hari intebe zigera muri ebyiri ndetse muri iyo nzu bari kubyiniramo igiye imanitsemo ibishushanyo bigaragara yuko ari ahantu bari bari mu nama zishingiye ku buzima, inama irangiye banyuzaho barabyina.

Abana bakiri bato baje kuvoma ku mugezi, dufite utubido dutoya ndetse umugezi ni imwe mu migezi ipompa kugirango amazi abashe kuza, inyuma hari umuntu uri gupompa mukuru kuri abo bana, kugira ngo abo bana babashe kuba bavoma.

Abana bishimye cyane, bateze ibiganza, inyuma yabo hari umugabo ufite igikombe kirimo amazi, arimo arabasukira amazi mu biganza byabo ngo boge intoki, ndetse munsi yabo harimo ibase iri kumenekamo ayo mazi bari kogesha intoki.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu nama, imbere yaho hari ameza agiye ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amashakoshi, abo bantu bafite n'udukayi mu ntoki n'amakaramu barimo barandika ibyo umuntu ari kubabwira uhagaze hagati y'umudamu uri kubaganiriza.

Abantu batandukanye, baje gushakisha amazi, hari ufite amajerekani abiri mu ntoki, hari n'ahandi hapanze amajerekani menshi, ndetse muri uwo mugezi hari n'indi jerekani iri kujyamo amazi, ako kazu k'amazi, gasize amarangi y'ubururu n'umweru.

Umugezi uvamo amazi ku ruhande, hari amajerekani agera muri atatu ahari ndetse hari umwana w'umukobwa usutamye ari gutega ibiganza bye amazi arimo aramanuka mu ntoki ndetse no hakurya hari ibiti bihari, aho hantu hari n'ubutaka.

Abantu baje kwivuza ku kigo nderabuzima bicaye hanze ahantu bategerereza yuko babakira, bafite impapuro mu ntoki, hari abambaye udupfukamunwa ndetse no hirya hari ahandi hantu bakira abantu babandika, hahagaze abantu bari kwiyandikisha.

Abagabo n'abagore bicaye bameze nk'aho bari mu nama barikuganira mu buryo bw'itsinda hari uhagaze ndetse n'abandi bicaye, inyuma yaho hagiye hamanitseho ibyapa ndetse no hirya hari abandi bicaye mu matsinda.

Umugore wambaye itaburiya, uri kuvugira mu ndangururamajwi ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bicaye mu itente ririho amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya hari n'icyapa gihari, abo bantu bicaye bameze nk'abari mu nama bari kuganirizwa n'uyu mugore uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abandi bagore bitwikiriye imitaka bahagaze hirya, hari abicaye mu itente ririho amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, bameze nk'aho bari mu nama, bari guhabwa ikiganiro gitandukanye ndetse imbere yaho hahagaze umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi, bari gutega amatwi.

Umuntu waje kuvoma ahantu hari umugezi w'amazi, afite ijerekani ndetse n'utundi tubido, aho hantu hubatse hari inyuma ibiti byinshi by'igihuru bihari bikikije uwo mugezi.

Urujya n’uruza rw’abaforomo ndetse n’abaforomokazi bambaye amataburiya ari mu mabara y’ubururu, n’amakarita mu ijosi ariho amafoto yabo, baje gusanganira ndetse no kuririmbira umuzungu uhari, ndetse inyuma hari n’undi muzungu uri gufata amafoto.

Abaforomo ndetse n'umuforomokazi bicaye ahantu n'undi uhagaze inyuma yabo bameze nk'abari kwifotoza. Imbere yaho hateretse ibikoresho bifashisha, bishoboka yuko bashobora kuba baje nko gukingira indwara ahantu bakaba babanje kwifotoza.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, yaba abageze mu za bukuru, abadashaje cyane ndetse n'abana bato, baje ahantu habereye ibirori, hari ihema ry'umweru ndetse hari ahantu hamanitse ibendera ry'igihugu ndetse hari n'indi nzu imanitseho icyapa bari gusa nkaho bari kwinjiramo.

Abana baje ku mugezi, aho baje kuvoma amazi, hari amajerekani ndetse n'utubido dutoya duhari, abana bakiri batoya bicaye ndetse n'abandi bakuru bahagaze ndetse aho hantu haruguru hari ahantu hari amabuye ndetse harimo n'ibyatsi muri ayo mabuye.

Abadamu bagera muri batatu bahagaze mu murima bafite udukoni mu ntoki, bahagaze ahantu bahingamo ibihingwa bitandukanye harimo intoki, harimo ibindi biti ndetse hakurya hari n'ishyamba ririmo ibiti byinshi rihari.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu hari kubera inama imbere hari abandi bantu bahicaye batandukanye bari gutanga ikiganiro gishingiye ku biri kubera aho ngaho, bishoboka ko ari abaganga bari gutanga ikiganiro giheranye n'indwara zo mu mutwe ko bashobora kuzirinda.

Abagabo benshi ndetse n’abagore benshi, bahagaze ahantu bigaragara yuko bavuye mu nama, barimo barafata amafoto nyuma y’inama. Hari akameza gateretse ku ruhande, gatetseho icupa ry’amazi. Inyuma ku gikuta, hariho ifoto, ndetse n’icyapa gihari.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo ndetse ifite amabati ariho akantu kari mu ibara ry'ubururu, ifite n'amadirishya y'ubururu, ku ruhande hari akandi kazu na ko gasize amabara y'ubururu, hari utwuma tugiye dukikije ingazi zihari turi mu mabara y'ubururu ndetse n'urukuta rwubakishijwe amabuye.

Abantu benshi batandukanye, harimo abasanzwe ndetse harimo n'abapolisi, bagiye bapanze ku mirongo itandukanye barimo barifotoza, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo, ndetse hagiye hariho n'ibishushanyo bitandukanye.

Umukecuru utetse. Ni ahantu hameze nk'aho ari mu cyaro, acanye ku nkwi ndetse atetse mu isafuriya inyuma yabaye umukara, arishimye cyane, hakurya hari inkoko ihari ndetse hari n'intoki zigenda zikikije aho hantu ari, afite n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu muri sale bameze nkaho bari gukora inama, hari abagore babiri bahagaze umwe afite irangururamajwi ndetse n'undi bigaragara nkaho barimo barakina umukino w'ikinamico abandi barimo barabareba.

Abanyeshuri benshi batandukanye bakiri batoya bari mu ishuri, mu ntoki zabo bafite umuti w'amenyo bari kwamamaza bamanika hejuru, hari umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bw'amenyo, ndetse muri iryo shuri harimo n'abayobozi babo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki, ndetse ari guhabwa ibinini n'umuforomo uhari nawe ufite ibinini mu ntoki, ari kumuhereza kimwe, ku meza ahari hariho n'agakarito, bigaragara yuko kavuyemo ibyo binini.

Abantu batandukanye, hari abicaye mu ntebe ndetse n'abicaye hasi barimo baragirana ibiganiro bishimye cyane bari guseka ndetse hari n'undi wicaye hasi uri kuboha agakapu ariko ukaboha akoresheje ibyatsi bitandukanye, niwe barimo baritegereza kuko harimo abazungu bashobora kuba batazi ibyo bintu ari kuboha.

Umusaza wari uryamye ku buriri, bari kumwegura bamubyutsa, ari kubyutswa n'umukobwa uhari, ndetse ku ruhande hari ahantu hari amatara arimo araka, hari supaneti imanitse hejuru, hari n'akabati babikamo imyenda ndetse n'idirishya.

Abagabo bageze mu za bukuru basa nkaho bari mu nama runaka, harimo umuntu uri kudoda igitebo yifashishije ibikoresho bya kinyarwanda ndetse abandi bari kumwitegereza bisa nkaho bari kureba ibyo akora.

Umukecuru ndetse n'umusaza bageze mu zabukuru bari mu rugo rwabo, aho barimo bagiye gufata imiti, hari imiti iteretse ku meza itandukanye ndetse hari amarinete ahari, inyuma y'aho hari utundi dukoresho two mu nzu duhari.

Imbaga nyinshi y'abanyeshuri bagiye batandukanye mu bigo bitandukanye, bari gukora urugendo rwo kwirinda virusi itera Sida ndetse harimo n'abandi bantu bakuru, hari abari imbere bafite icyapa kigaragaza yuko bagomba kwirinda Sida.

Abagore bagera muri bane bakikiye abana baje kwa muganga ariko bicaye mu ntebe bategerererezamo ko babakira, inyuma yaho ku gikuta hari ibipapuro bigiye bimanutseho bitandukanye, ibipapuro byo kwa muganga.

Abagabo n'abagore bari mu nama ndetse ku meza bateretseho amacupa y'amazi bambaye n'amabaji mu ijosi, imbere yaho hari abandi bantu bagera kuri batatu harimo umugabo wicaye hagati umeze nk'aho arikuganiriza iyo mbaga y'abantu benshi iri mu nama, inyuma yabo hamanitseho icyapa cyanditseho RBC.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu mu nama, bicaye imbere yaho hari ameza atwikije ibitambaro by'umweru, hateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi, ndetse n'undi mugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi, uri kugirana na bo ibiganiro, ndetse hari n'ibyapa biri ku mpande.

Abaforomo ndetse n'abaforomokazi harimo umupolisi ndetse harimo n'umupadiri bari kwifotoza hari abasutamye, hari abahagaze harimo n'ababikira, inyuma yaho hari inzu ababyeyi babyariramo ndetse hari n'abandi bantu bahagaze hirya yabo.

Inyubako ndende ni ahantu ha amashuri ya kaminuza, ni ahantu hateye ibiti byinshi cyane bijya biteye impande n'impande by'ubusitani ndetse hari n'ahantu hanyura abanyamaguru hari ingazi ndetse hari umuntu uri kuhatambuka ndetse hari n'urukuta rwubakishijwe amabuye hari n'undi muntu uhagaze mu busitani.

Ahantu hubatse ikigo nderabuzima cya Rwerere ni ahantutu hari ubusitani bugiye buteye impande n'impande ndetse no hakurya naho hari ahantu hari ibiti birebire ndetse iruhande rw'icyo kigo nderabuzima hari umuntu uri kuhagenda.

Inyubako ndende ya etaje iri ahantu hejuru, igiye ifite ibigega by'amazi, munsi yaho hari ibinyabiziga by'imodoka biparitse ndetse hari n'ikindi kinyabiziga cy'imodoka bari gufungurira gisohoka, aho hanze hakikijwe n'ubusitani, hari n'icyapa kiri ku muhanda.

Umwana w'umuhungu uri gusunika umugabo ugeze mu za bukuru, uri kugendera mu kagare k'abamugaye, ndetse n'abageze mu za bukuru, bari kwerekeza ahantu hari ihema ryamabara y'umweru, icyatsi, ndetse n'umuhondo, mu muryango hahagazemo umukobwa wambaye umupira w'umweru.

Inyubako y'ibitaro by'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira, ni inyubako isize amarange y'umweru ifite n'amabati y'ubururu ndetse ku mpande hateye ubusitani ndetse n'ibiti birebire bihari, hari n'indi nzu iri hirya yayo.

Inzu irwariramo abarwayi ifitemo ibitanda iburyo n'ibumoso, harimo ibitanda byinshi ndetse harimo inzitiramibu kuri buri gitanda zizinze hejuru ndetse harimo n'amarido atandukanya igitanda n'ikindi, hahagazemo n'abaforomo bambaye udupfukamunwa.

Inyubako ya etaje, ni inyubako hasi ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, hari imiryango itandukanye, hari umuryango ufunguyemo imbere mu tubati hagiye hapanzemo imiti, ndetse hari n'umuryango wo hirya uriho ahantu bacururiza imyenda, hamanitseho ibipupe bambika imyenda bari kugurisha, ndetse hari n'ibinyabiziga biparitse imbere y'iyo nyubako.

Ahantu hanini hagiye hateye ubusitani iburyo ndetse n'ibumoso, hari n'akayira k'abanyamaguru kari gucamo umwana ndetse n'undi mugabo ufite umwana mu ntoki, hirya hari inyubako zigiye zihari, zitandukanye zigera muri eshatu.

Ibinyabiziga biparitse bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga bisanzwe, hari n'ibinyabiziga bitwara abarwayi bizwi ku izina ry'imbangukiragutabara ndetse hari n'umusekirite uri kuyobora ikinyabiziga, hirya hari inyubako ndende ikorerwamo ibitaro.

Ahantu bari gupimira indwara z'umuvuduko w'amaraso, hari umugabo uhari wicaye, bambitse icyuma gipima umuvuduko w'amaraso ye uko ari gutembera mu mubiri, ndetse hari n'umuganga wicaye iruhande rwe, hejuru hari na kizimyamwoto zihari, ndetse hari n'icyapa cyanditseho irembo.

Abaganga bagera muri bane, abasore babiri ndetse n'abakobwa babiri bari ahantu muri labaratwari bari gukora ubushakashatsi bw'ibintu bitandukanye bafite ibikoresho byo kwa muganga barimo baragenda basukamo amazi, hari n'irindi cupa rihari ry'amavuta.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye isize n'amarangi ari mu mabara y'umweru, hamanitseho ibyapa bigera muri bibiri: hari icyapa gishushanyijehoijisho cyerekana yukouko aho hantu havurirwa amaso, ndetse hari n'ikindi cyapa cyanditseho izina ry'ibyo bitaro, ndetse hari ubusitani buri ku mpande y'iyo nyubako.

Ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umuhondo, ni inyubako nziza cyane, hari n'ahantu hari ubusitani bwiza burimo indabyo z'amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, hari ahicaye abantu, hari aho abanyamaguru batambuka ndetse hari n'ahantu hateye imikindo miremire.

Ubusitani burebure cyane burimo idarapo ry'igihugu ndetse hari ibindi biti bihari, hari inyubako ndende ihari, ikikijwe na yo n'ubusitani, hari n'ibindi bikuta by'umweru bihari iruhande rw'iyo nyubako ndetse hari n'umuntu uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Abaganga bavura indwara z'amenyo ndetse n'izo mu kanwa, baje mu kigo cy'amashuri kwigisha abana uko bashobora gukora isuku yo mu kanwa, bafite igishushanyo cy'urwasaya ndetse n'uburoso bwo kwiborosa, bari kwereka umwana uburyo biborosa ndetse inyuma ye hahagaze abandi bantu.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi ni ikigo nderabuzima cya Tababwe, ni ikigo nderabuzima gihagazemo abantu imbere n'impande n'impande, aho hantu hari ahantu hari ubusitani, ndetse hari n'ingazi, abantu batambukaho, zigiye zikikijwe n'utwuma dukikije ubusitani.

Umusore wicaye ku gatanda k'abantu bavunitse barimo baramushyiriraho ibipfuko ku kuguru kumwe, ukundi kuguru ko kwambaye inkweto ndetse hari umuforomo uri kugenda umuzirikaho ibyo bifuko wambaye ishati iri mu mabara y'ubururu ugaragara ibiganza gusa.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, bahagaze ahantu hari urutoki, baje kureba abantu bari gukina umukino wa Basket, bari mu kibuga, ni abasore ndetse hari akantu bakiniramo banagamo baro kari iruhande rwako.

Abasore ndetse n'inkumi bari mu myitozo ya croix rouge y'ukuntu bashobora kuba batabara umuntu ugize ikibazo hari umusore wicaye hasi ndetse wicaye ku kiringiti ndetse nyuma ye hari undi uri kugerageza kumwegura arikwereka bagenzi be ukuntu bashobora kuba batabara umuntu ugize ikibazo.

Urubyiruko rw'abana benshi, bari ku murongo, bari gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse bari kuyikorera mu kibuga cya basket, hirya hari abandi bahicaye impande n'impande, ndetse hari ibiti, bigiye biteye impande n'impande z'icyo kibuga.